Akabari kanini karimo amacupa y'ubwoko butandukanye bw'inzoga n'amarikeli, amwe ari mu mavide andi mu gakarito, hubakishije amatafari ahiye ni inkuta.

Akabati kari mu ibara ry'umweru kariho ibirahure bibonerana, indobo isa umweru irimo capati, ibumoso bwayo hari teremusi iri mw'ibara ry'ubururu bwerurutse.

Inkumi, abasore bahagaze bambaye imyenda itandukanye. Irimo: amapantaro, amashati, amakanzu n'amajipo. Bamwe muri bo bafite indangururamajwi. Inyuma yabo hari amarido ari mu mabara abiri umutuku na orange.

Umuhanda rwagati aho hari urujya n'uruza. Ndi umubyeyi wikoreye agataro kariho amaronji na pome. Inyuma ye hari akabido, imbere ye hari umumotari, wambaye kasike n'ijire.